Ikibaho abanyeshuri bifashisha mu myigire yabo ,bandikishaho ingwa ,aho umwarimu ndetse n'abanyeshuri bandikaho, kugira ngo abanyeshuri bose babashe kureba ibyo barimo kwigira hamwe ,ndetse bakabyifashisha bakora amasuzumabumenyi gatandukanye.

Ubukarabiro twifashisha mu gusukura umubiri wacu ndetse n'intoki, kugira ngo twirinde indwara izo ari zo zose, zishobora guturuka mu mwanda.

Abanyeshuri bari mu mirimongiro, aho bari kwimenyereza ibyo biga mu mashuri ya bo, kugira ngo bashobore kubimenya mu ngiro, bizabafasha kumenya ibyo biga neza cyane.

Abanyeshuri biga amasomo y'ikoranabuhanga ndetse na tekiniki, bari mu masomo ngiro. Aho bari kwimenyereza ibyo biga bakabishyira mu ngiro.

Abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo ngiro, aho bari kureba ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bifashisha mu masomo yabo ya buri munsi, kugira ngo ngo biyungure ubumenyi butandukanye mu byo biga.

Abanyeshuri bari mu masomo ngiro, aho barimo kwifashisha igikoresho cyabugenewe bapima itungo, kugira ngo bamenye neza ikibazo rifite.

Umwarimu urimo gufasha abanyeshuri be amasomo ,aberekera kugira ngo ibyo biga babyige neza ,babifate neza kugira ngo bizabagirire akamaro mu bihe na bo ,bazaba bageze bari gukoresha ayo masomo yabo.

Abanyeshuri biga ibijyanye na tekinike, ndetse bakaba bari mu masomo ngiro aho bari kwiga gukanika imodoka.

Abanyeshuri biga iby'ubukorikori, aho biga gushushanya ndetse no gutera amarangi, aho bari mu mirimo yo kwimenyereza, kugira ngo bashobore kunguka ubumenyi bwisumbuyeho.